Abantu bari mu nama, bicaye mu ntebe z'umweru, ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru, bafite n'amazi yo kunywa. Inzu bicayemo ikaba ifite amakaro y'umweru, ibikuta bisize irangi ry'umweru. Imbere yabo hari umuntu ufite indangururamajwi, uri kubagezaho ikiganiro.

Abantu benshi bicaye mu ihema ry'umweru ritatseho ibara ry'icyatsi n'umweru, imbere hakaba hicaye abantu bane b'abagore bicaye ku ntebe z'umweru, ameza atatseho ibitambaro by'ubururu umuhondo n'icyatsi bafite amazi yo kunywa.

Abantu bicaye bari mu nama, bicaye mu ntebe z'umukara ameza y'umutuku. Bafite amazi imbere yabo yo kunywa, indangururamajwi zo kuvugiramo, harimo abafite imashini bari kwandikamo n'abari gukoresha urupapuro n'ikaramu.

Abantu bicaye bari mu nama bicaye ku ntebe zitatseho ibitambaro by'umukara ameza ariho ibitambaro by'umweru, ku ntebe imbere hicaye umuntu ufite indangururamajwi mu ntoki uri kuvuga imbere ye hateretse amazi yo kunywa.

Abantu bicaye hasi mu busitani buteye ibyatsi bari mu nama, hejuru yaho hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye. Imbere hicaye abandi bantu bicaye ku ntebe z'ibiti, hateguwe n'ameza yo mu giti. Hari umugabo urikubaha ikiganiro wambaye imyenda y'umukara, ufite igipapuro mu ntoki, n'ushinzwe umutekano uhari.

Abantu bari mu nama bicaye mu ihema ry'umweru ritatse ibitambaro by'icyatsi n'umuhondo, imbere yabo hakaba hari umuntu uri kubaha ikiganiro ufite indangururamajwi mu ntoki, hirya yabo hubatse inzu y'amatafari ahiye, ikaba iriho ibigega bibiri bifata amazi by'umukara.

Abantu benshi bari mu nama bicaye hamwe mu ihema ry'umweru ritatse amabara y'ubururu umuhondo n'icyatsi, imbere ku meza hakaba hari amazi yo kunywa, imbere yabo hahagaze umubyeyi wambaye ikanzu ufite indangururamajwi ari kubagezaho ikiganiro.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'amahugurwa bamaze gukora bambaye imipira y'umweru bafite n'icyemezo kigaragaza ibyo bamaze kwiga, imbere yaho bari bicaye hakaba hateretse amazi yo kunywa ndetse n'intebe bari bicayemo.

Abantu bari mu nama, bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa, bamwe bagiye bafite mashini bari kwandikamo, inzu bicayemo ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hakaba harimo inkingi zo mu ibara ry'ivu.

Abantu benshi bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, harimo abambaye amakoti n'amakaruvate, ababyeyi bakenyeye imikenyero, inyuma yaho hakaba hari inzu y'ibirahure, na yo isize n'amarange y'umuhondo.

Umugabo uyoboye inama wicaye mu ntebe y'ibara ry'umukara, yambaye ikoti ry'umukara, n'ishati y'mweru n'amadarubindi. Imbere hateretse amazi yo kunywa n'indangururamajwi yo kuvugiramo kugira ngo abandi bose bumve, inyuma hakaba hari icyapa cy'ibara ry'ubururu n'icyatsi.

Abantu bicaye bari mu nama mbere yabo hakaba hateguye ururabo, ameza hatatseho ibitambaro by'umweru, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa buri wese afite ikaye yo kwandikamo ibyavugiwe mu nama.

Abantu bari mu nama bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo bafite indangururamajwi bavugiramo n'amazi yo kunywa, inyuma hakaba hamanitse icyapa cyanditseho Kigali yacu; Kigali ikeye cyo mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi.

Abana bari mu ishuri bari kwiga ari batandatu bicaye ku ntebe z'umukara, ameza ateretseho mudasobwa bakoresha, imbere yabo hahagaze umwarimu uri kubigisha wambaye agapira karimo imirongo y'umweru n'ubururu mu ishuri harimo amakaro y'umweru.

Abantu bicaye bari mu nama bakaba bambaye imipira y'imikara n'umweru, imbere yabo hateretse mashini bari gukoreramo, bicaye mu mutaka w'umweru, hakaba hubatse inzu isize irangi ry'umuhondo, hateye n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Umuntu uri kubikuza amafaranga ku nzu y'umucuruzi wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru usutse imisatsi impande yayo mazu hakaba hari umuhanda w'ibitaka urimo imodoka y'umuhondo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, hakaba handitsemo amagambo yo mu ibara ry'umukara, inyuma yaho hakaba hateyeho indabo z'ubwoko butandukanye, hari n'inzu z'ubucuruzi zicuruza ibikorerwa mu Rwanda.

Umuhanda w'ibitaka urimo umuntu uhagaze, wambaye ishati yubururu. Kuhande rw'umuhanda hakaba hateye amapoto ariho insinga z'amashanyarazi nyinshi, zijyana umuriro mungo. Hepfo yaho hakaba hateye indabo n'ibiti by'uko butandukanye, hubatse n'inzu isakaje amategura.

Umukozi w'urwego rushinzwe ingufu z'amashanyarazi yambaye imyenda y'umukara, n'ingofero y'umweru, yuriye ipoto y'amashanyarazi akoresheje urwego, ari gukora amashanyarazi yapfuye akaba ariho n'insinga zijyana umuriro mu ngo.

Igikuta kiriho irangi ry'umuhondo hakaba handitseho ijambo emutiyene imbere yaho hakaba hari ikigega kijyamo amazi gisa umukara, hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse n'itari rimurika munsi yaho hari abantu bacuruje ndetse n'abamotari.

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu ngo impande yaho hakaba hari umurima uteyemo imyumbati, hirya hari amazu y'ubwoko butandukanye harimo iyigeretse ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Urukuta rusize irangi rw'ivu hejuru hariho senyenge, hakaba hubatse inzu y'ushinzwe umutekano yubatswe n'ibyuma isize irangi ry'icyatsi hicayemo umuntu imbere, muri icyo gipangu hakaba harimo ipoto ry'amashanyarazi riho insinga zitanga umuriro.

Ipoto ririho insinga nyinshi z'amashanyarazi zijyana umuriro mu ngo, rikaba riri impande y'igipangu gisize irangi ry'umweru hejuru, ku ruhande rikaba risa n'ivu. Mu rugo hakaba hari inzu isakaje amabati y'umukara ndetse hateye n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uriho amapota ariho amatara amurikira mu muhanda n'isinga z'amashanyarazi zitanga umuriro, hakaba hari amazu y'ubucuruzi yubatse n'amatafari ahiye asize irange ry'umutuku n'umuhondo n'imodoka zihagaze impande y'uwo muhanda.

Amapoto ane ariho insinga z'amashanyarazi zitanga umururiro mu ngo, n'amatara amurikira umuhanda, hakaba hateye mu biti biteye byinshi by'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'igipangu cy'amatafari ahiye.

epoto iriho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu ngo rikaba riri impande y'igipangu gisize irange ry'umuhondo. Riteye mu ndabo z'ubwoko butandukanye, hepfo hakaba hari inzu nini isakaje amabati y'umukara.

Igipangu cyubakishije amatafari ya sima, kikaba cyegeranye n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu ngo. Imbere hakaba harimo inzu hateye n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, cy'ingufu gishinzwe amashanyarazi cyo muri Gasogi, kikaba giteye ku nkengero z'umuhanda, impande y'urukuta rw'amabuye, hari ipoto y'amashanyarazi, ririho insinga zijyana umuriro mu nzu z'abaturage.

Abantu bicaye kwa muganga ku ntebe z'ibyuma, hasi hakaba hari amakaro y'umweru, igikuta gisize irangi ry'umweru, hejuru hari amatara. Hakaba hari abantu bamwe bicaye abandi bahagaze bari kubakira, hakaba hari uri kubakira wambaye imyenda y'umweru.

Inzira z'abanyamaguru ni inzira yubatse na sima y'igiheri, ku mpande hajyiye hari ibyuma bisize irangi ry'umuhondo, n'inkuta z'amabuye. Hakaba hari ibyuma bigiye bifashe igisenge bisize irangi ry'ivu, mu kayira harimo umuntu uri kuri telefone wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru.

Abantu benshi baje kwifuza kwa muganga harimo n'abagororwa, bamwe baricaye abandi barahagaze barimo barabakira, inzu zubakishije amatafari ahiye urukuta rw'amabuye, hakaba hari ibyuma bifashe igisenge ndetse n'amabati.

Imodoka zitandukanye zihagaze ahantu hamwe harimo imbangukiragutabara zitwara abarwayi n'izindi zitwara abantu ku giti cyabo, zihagaze imbere y'indabo z'ubwoko butandukanye, amapoto ariho amatara amurikira mu muhanda ndetse n'ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda.

Ahantu hahagaze imodoka nyinshi zitwara abantu ku giti cyabo, hakaba hari inzu isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'umukara, imbere yayo hakaba hateye ubusitani burimo inda zitandukanye, hari n'idapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imberew ku ibaraza hakaba hari amakaro y'umweru, hateye ubusitani burimo indabo z'ubwoko butandukanye, hari amapoto y'amashanyarazi ariho amatara amurikira umuhanda ndetse n'imodoka zihagaze hepfo y'umuhanda.

Umunyamakuru Fatakumavuta yambaye amapingu afite icupa ry'amazi mu ntoki, yambaye amadarubindi ishati y'umukara akaba agiye imbere y'urukiko kuburana ku byaha aregwa, ari kumwe n'umupolisi wambaye imyenda y'umukara ufite imbunda mu ntoki.

Abacamanza bari kugenda muhanda wa kaburerimbo bambaye amakanzu y'umukara abandi umutuku hagiyemo n'akabara k'umweru ingofero z'umukaramo n'ibara ry'umuhondo, ku ruhande hakaba hari amatara agenda amurikira umuhanda n'ibiti by'ubwoko butandukanye biteye ku nkengero z'umuhanda.

Umugororwa wambaye imyenda y'iroze n'agapfukamunwa, yambaye amapingu, afite igitabo mu ntoki cy'ibara ry'ubururu. Inyuma ye hakaba hari umucungagereza wambaye imyenda ya kacye, n'agafukamunwa ka kacye, imi impande yabo hakaba hari ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Umugororwa waje kuburana ibyaha aregwa mu rukiko, ari imbere y'abacamanza abashinjacyaha ndetse n'umwunganira mu mategeko bahagararanye imbere, bambaye imyenda y'umukara, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa ndetse n'umuti wo gukaraba mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo amatara abiri, ahagararanye n'umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda. Inyuma yabo hakaba hari umubyeyi uhetse umwana uri kugenda n'amaguru, hakurya y'umuhanda hakaba hari imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange isa umweru.

Inzu zisize amarangi y'umuhondo, zisakaje amabati y'umukara, zikaba ari ibiro bya polisi yo Kugisozi, imbere yaho hakaba hahagaze abapolisi babiri bashinzwe umutekano, imbere y'izo nzu hakaba hateye ubusitani burimo indabo.

Amacupa menshi atetse hamwe mu ibara ry'umutuku n'umukara, yanditse amagambo mu ibara ry'umweru akaba abamo ibyuka bizimya inkongi z'umuriro. Afite ibipira bicamo uwo mwotsi bisa umukara.

Umukandida wigenga MPAYIMANA Philipe, uri kwiyamamaza ku mwanya perezida wa Repubulika, ari imbere y'abantu yambaye karuvati y'umukara n'ishati y'umweru, afite ifoto ye mu ntoki ari kuvugira mu ndangururamajwi ari gutanga imigabo n'imigambi.

Ahantu hateraniye abantu benshi baje kwakira umukandida wa fpr inkotanyi waje kwiyamamariza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, hakaba hatatse ibara ry'ubururu n'umweru n'umutuku. Abantu bahari bafite amadarapo ya fpr inkotanyi, bambaye ingofero z'umutuku, ubururu n'umweru.

Umukandida wigenga Mpayimana Philippe wiyamamariza ku mwanya wa perezida wa repubulika, akaba ari imbere y'abantu ari kuvugira mu ndangururamajwi ababwira imigabo n'imigambi ye, inyuma ye hicaye abantu bamuherekeje bicaye ku ntebe z'umweru.

Icyumba cy'itora gitatsemo ibitambaro by'ubururu, umuhondo n'icyatsi, harimo abaseseri babiri n'agasanduku k'itora, umuseseri umwe ari gusobanura uwaje gutora uko ari bukoreshe urupapuro rw'itora niba akoresha igikumwe cyangwa se ari bukoreshe ikaramu.

Abantu bari kujya abandi bava kuri site y'itora mu matora y'abadepite ya bibiri na cumi n'umunani, ku marembo hakaba hari icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu ndetse n'icya komisiyo y'amatora, hateguyeho ibitambaro by'icyatsi n'umuhondo.

Icyumba cy'itora, hamanitsemo impapuro babariraho amajwi y'ibyavuye mu matora, akaba ari abasaseri babiri bari kuyabara, bambaye hasi umukara hejuru umweru, impande yabo hateretse agasanduku kajyamo urupapuro rw'itora gafite umupfundikizo w'umweru.

Frank Habineza ari kumwe n'umugore we, bambaye amashati y'umweru n'ipantaro z'umukara. Umugore yambaye urugori, umugabo afite icumu n'ingabo mu ntoki, bahagaze mu ihema ry'umweru ritatseho amabara y'icyatsi. Inyuma yabo hahagaze abantu baje kubareba.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokaho ya hoho ry'umutuku. Yikorera imizigo, hakaba hatwikiyeho shitingi y'ubururu. Hakurya y'umuhanda, hateye ibiti bwoko butandukanye. Hari uruzitiro rw'icyatsi, imbere hakaba harimo abantu barimo bubaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu utwaye igare ripakiye imifuka n'injerekani, imbere ye hakaba hari umuntu utwaye moto n'imodoka ipakira imizigo, ku ruhande hakaba hari amazu acuruza ibintu bitandukanye n'abanyamaguru bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu utwaye moto wambaye ingofero y'umuhondo, n'ipantaro y'umweru, hirya ye hakaba hari igipangu cy'umweru gikikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'indabo n'amapoto y'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikorera imizigo iri kugenda, hakaba harimo n'umuntu utwaye igare, kuruhande rw'abanyamaguru harimo umugabo uri kugenda n'amaguru, hirya hari ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda, hari uruzitiro rw'icyatsi hakaba hahagazemo izindi modoka nyinshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya toyota y'umweru itwaye abantu imbere yayo hakaba hari igare ritwaye umugenzi hakurya y'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye ipoto ry'amashanyarazi ndetse n'uruzitiro ruri mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo harimo umunyonzi utwaye igare, umumotari utwaye moto, imodoka y'umweru yikoreye umuzigo hariho shitingi ya kaki, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye n'amatara ku muhanda.

Imodoka ipakira imizigo, hakaba harimo imifuka, ibikarito, n'amashitingi y'ubururu n'ibindi, ihagaze iruhande rw'umuhanda, imbere yayo hari indi na yo bari gupakira abantu bambaye ibisarubeti bya kacye, hari amatara ari ku muhanda amurika.

Imodoka y'umweru ifite akabara k'umuhondo. Iri kugenda mu muhanda itwaye abantu, n'amamoto atwaye abagenzi. Abanyamaguru bambaye ikanzu irimo utubara tw'umukara n'umweru. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uriho abantu batwaye amagare bapakiye inzoga, hakaba harimo n'abanyamaguru, umwe wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, n'undi wambaye ipantaro y'ivu n'agapira k'umukara, hepfo hakaba hari moto ihagaze umuntu uyitwaye yambaye ingofero y'umuhondo ku mpande hakaba hari amazu y'ubwoko butandukanye.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'ubururu n'umweru irihanda ya kaburimbo, harimo umuntu utwaye igare wambaye umupira w'umutuku n'abanyamaguru bari kwambuka umuhanda, ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari umubyeyi uhetse umwana.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto yikorera imizigo yo mu ibara ry'ubururu, harimo n'izindi moto zitwaye abagenzi, bari kujya mu cyerekezo kimwe n'igare ripakiye icupa rya gaze, hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda w'itaka urimo imodoka yikorera imizigo yambukiranya imipaka ifite ibara ry'ubururu n'umweru, ikaba ifungaye umuryango w'inyuma bari gukuramo imizigo harimo imifuka ipakiyemo ibirayi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka nyinshi, harimo iyikoreye imizigo iri mu ibara ry'umweru, itwara abagenzi mu buryo bwa rusangemo iri ibara ry'ubururu, inyuma yaho hakaba hari indi itwara abantu ku giti cyabo iri mu ibara ry'umukara. Ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye n'amapoto ariho amatara amurikira mu muhanda.

Imodoka itwara abagenzi muburyo bwa rusange, ifite amarangi yumweru, icyatsi n'ubururu. Iri kugenda muhanda wa ka burimbo impande yawo hari umuntu uri kugenda n'amaguru wambaye inkweto z'umuhondo ukoreye umufuka ku mutwe. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo modoka iri kugenda, ifite ibara ry'umweru n'umuhondo, ku ruhande hakaba hari umutaka w'umuhondo w'umucuruzi wa MTN n'abandi banyamaguru bari kugenda ku ruhande rw'umuhanda, hepfo hakaba hari inzu ikinirwamo imikino y'amahirwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka imwe ipakira imisika, indi itwara abantu mu buryo bwa rusange, hakaba harimo umuntu upakiye umuzigo ku igare ari kugenda arisunika, hakurya hari undi munyamaguru uri kugenda ku rundi ruhande, ku mpande y'umuhanda hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye ibitwara abantu ibyikorera imizigo n'ibindi. Hakaba hari n'abanyamaguru bari kwambuka mu nzira y'abanyamaguru isizemo amabara y'umweru. Hakaba hari amapoto y'amoko atandukanye ariho insinga ndetse anamurika mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'ikigo gishinzwe amazi, yapakiye insinga z'umukara, hakaba harimo na moto; harimo itwaye umugenzi wambaye ingofero z'umutuku, ku ruhande hakaba hari umuntu uri gucunga igare apakiye amagi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye, izikorera imizigo ndetse n'izitwara abantu ku giti cyabo. Ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari inzu z'ubucuruzi zikora ucuruzi butandukanye. Hakaba hari n'amatara amurika mu muhanda n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikorera imizigo, hakaba harimo n'abantu batwaye amagare, umwe nta muntu atwaye undi atwaye umuntu, hakurya y'umuhanda hateye ibiti bw'ubwoko butandukanye, hakaba uruzitiro rw'icyatsi, imbere hahagaze imodoka zikorera imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ziri kugenda, imwe itwaye abagenzi mu buryo bwa rusange isa umweru n'indi itwaye abantu ku giti cyabo, hakurya hakaba hari insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu ngo, hubatse amazu ubwoko butandukanye, hari inzu imwe iriho ibigega by'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwara imizigo y'ubururu itwikirije shitingi y'umukara hariho na numero bahamagaraho, itwawe n'umuntu wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, hirya hari n'imodoka y'umweru itwaye abagenzi mu buryo bwa rusange n'umuntu utwaye igare.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, amagare, amamoto, imodoka zikorera imizigo, izitwara abantu n'ibindi, ku mpande y'umuhanda hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye, amapoto y'insinga z'amashanyarazi ndetse n'ayafite amatara amurika.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yikoreye imizigo, itwikirije shitingi z'ubururu, harimo umuntu utwaye moto, hariho umugenzi wambaye ingofero z'umuhondo n'umuntu utwaye igare uri kumanuka. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, harimo n'abantu bari kubaka.

Gare ihagazemo imodoka nyinshi zitwaye abagenzi mu buryo bwa rusange, hakaba hari zifite ibara ry'umweru n'utubara tw'icyatsi imbere yayo hahagaze indi nini y'umweru n'umukara n'icyatsi, hari amapoto ariho amatara agenda amurika mu muhanda, hakurya hakaba hari umusozi uteyeho ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwara abagenzi, ndetse na moto yikorera imizigo yo mu ibara ry'ubururu, hakurya y'umuhanda hari umutaka w'umuhondo ukoreramo umucuruzi wa MTN. Hakaba hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, zijyana umuriro mu mazu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'umukara ubururu n'umweru hakurya hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye biri mu ruzitiro rw'icyatsi, imbere mu gipangu hakaba harimo abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo moto, itwara imizigo iriho icyapa cya Pirimusi, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye. Biri ku ruzitiro rwo mu ibara ry'icyatsi, mo imbere hakaba harimo abantu bari kubaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru iri kugenda, ikaba iri kubisikana na moto zitwaye abagenzi harimo abambaye amagofero y'umutuku n'ay'umuhondo, kuruhande rw'abanyamaguru hakaba abari kugenda baganira, hakaba hari ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda.

Moto ipakira imizigo yo mu ibara ry'ubururu, itwikirije shitingi y'umweru, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo itwawe n'umuntu wambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umutuku, hakurya y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hari n'uruzitiro rw'ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo igaragaza inzira y'abanyamaguru, harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka itwara imizigo ndetse n'izitwara abantu ku giti cyabo, amamoto atwaye abagenzi, ku ruhande rw'umuhanda hagiye hari insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Icyapa cyo mu ibara ry'icyatsi ryandikishijemo amabara y'umweru, cyerekana umuhanda ujya ku Kanyaru, Huye na Muhanga n'undi ujya Ruhango, Kinazi. Impande y'icyo cyapa, hakaba hateye igiti kinini n'amazu yubatse ateye isima ndetse n'ibyondo.

Umuhanda wa kaburimbo uriho icyapa cyerekana aho abanyamaguru bambukira, ruguru y'icyapa hakaba hari urukuta rwubatse n'amabuye ruriho igipangu gisize irangi ry'umweru, imbere mu gipangu hubatsemo inzu hateyemo in'indabo z'ubwoko butandukanye.

Ibyapa bibiri biri ku mupaka w'u Rwanda na Uganda hakaba hari umuntu uri kubyifotorezaho wambaye amadarubindi. Hirya ye hahagaze abagabo babiri bambaye amapantaro y'umukara, hino hahagaze imodoka itwara abantu ku giti cyabo.

Umuntu uri kugenda mu muhanda, afite akajare ka mutoki k'umweru, yambaye inkweto z'umuhondo. Impande ye hakaba hubatse inzu, isize irangi ry'umuhondo ndetse n'umukara, hakaba hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, zijyana umuriro mu ngo. Hateyeho ibiti by'ubwoko butandukanye.

Igipangu cyubakishije amatafari ya sima kikaba gifite amatara amurika, imbere harimo amazu yubakije amatafari ahiye asize irange ry'ivu buri nzu hejuru ikaba igi ifite ikigega gisa umukara gifata amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu, ari imodoka zitwara ku giti cyabo n'izitwara abagenzi mu buryo bwarusange, abamotari batwaye abagenzi ku mpande hakaba hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hari amapoto afite amatara amuririka mu muhanda.

Inzu y'ubucuruzi yubatse yamatafari ahiye harimo ahacuruje inyange, amapipa, amabase abantu bicaye imbere y'amaduka hirya hakaba hari inzu y'umucuruzi wa emutiyene isa umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye moto yikorera imizigo, imodoka zitwara abantu ku giti cyabo, ku ruhande rw'abanyamaguru hakaba hari umugabo uri kugenda ufite igifuka mu mugongo, imbereye hakaba hubatse akazu kari mu ibara ry'ubururu kicaramo abagenzi bategereje imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, amamoto atwaye abantu n'atariho abantu, amapoto ariho amatara amurika mu mihanda, indabo n'ibiti by'ubwoko butandukanye bikikije umuhanda. Hakaba hari n'amazu y'ubucuruzi agiye ariho ibyapa by'ibyo bakora.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi; izitwara imizigo, izitwara ibikomoka kuri peteroli ndetse n'izitwara ku giti cyabo. Hakaba hariteye jaride irimo indabo zitandukanye, ku mpande hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye n'amazu abamo abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi, imodoka zikorera imizigo, izitwara abantu ku giti cyabo, abantu batwaye amagare n'amamoto, hejuru hakaba haca undi muhanda na none urimo imodoka, ku mpande hakaba hakikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye.